Uyu ni umukozi wabugenewe uri gutera umuti ibiti by'imbuto.

Aha ni mu gishanga, aho hakorerwa umushinga w'ubworozi bw'amafi, by'umwihariko abaturage bazengurutse icyo cyuzi cy'amafi nk'uko bigaragara.

Aha ni mu gishanga ahari ibyuzi, bikorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse n'ubworozi bw'inkwavu nkuko bigaragara mu kazu kubatse hagati mu cyuzi.

Umurimo w'uburobyi akenshi ukunze gutunga abawukora cyane cyane ko amapfa ari mu bintu bya mbere bihenze kubigura, bityo bigatuma babona amafaranga ndetse bakibeshaho muri rusange, bakabeshaho n'imiryango yabo kugira itagira ibibazo bigiye bitandukanye.

Uburobyi bw'amafi ni umurimo ugenda utera imbere, ahangaha hari umubyeyi uri mu bwato afite ingashya mu ntoki arimo kugashya, bigaragara y'uko arimo gukora umwuga w'uburobyi uko bigaragara akaba ari nawo unamutunze.

Akenshi mu bishanga bigiye bitandukanye, abantu bakunze kwihuriza mu matsinda bagakora ubworozi bujyanye n'amafi bubafasha kwiteza imbere ndetse no koroshya imibereho y'ubuzima muri rusange.

Ubworozi bw'amafi bugirira akamaro abaturage ndetse n'isi yose muri rusange. Aho abaturage bibumbira mu matsinda bagahabwa inyigisho; ndetse n'amahugurwa agenga uburyo bagomba kubikora kugira ngo babone umusaruro urambye bityo bikuye mu bukene.

Ubworozi bw'amafi bufite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'abaturage ndetse n'isi muri rusange, kubera yuko abantu bose baba bagomba kurya ibikomoka ku matungo bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza nk'uko inzobere mu byo ubuzima zibivuga, amafi ni kimwe mu kinyabuzima gishobora gutanga kubaho kw'abaturage igihe bayariye.

Ibiyaga bigiye bitandukanye bikwiye kubungwabungwa kuko bitanga umusaruro, mu gihe abaturage bibumbiye mu matsinda bagakora umwuga w'uburobyi, ibyo bigatuma igihugu kizamuka mu iterambere ndetse n'abaturage ubwabo.

Ibishanga bitandukanye bikunze gukorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse n'inkovu, aho ababikoresha cyangwa se bobigirira akamaro, barushaho gutera imbere umunsi ku munsi igihe bihurije hamwe mu matsinda.

Ubworozi bw'amafi bufite akamaro kanini cyane ku baturage ndetse no ku buzima bw'abatuye isi muri rusange, cyane cyane ko inzobere mu by'ubuzima zigaragaza ko amafi afite akamaro kanini cyane mu mibereho ya buri munsi y'abayituye, ibyo bigatuma abantu bashyira ingufu cyane mu bworozi bwayo.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa bifasha abaturage kwikura mu bukene, ndetse no kwiteza imbere igihe babikoreye mu matsinda agiye atandukanye, ndetse bagahuza n'ibitekerezo.

Ubu ni ubucuruzi bw'imboga rwatsi, aho umugabo uri kuzicuruza ari mu isoko.

Ubuhinzi bw'ikawa bugenda butera imbere uko iminsi igenda yicuma, cyane ko abahinga bene iki gihingwa biteza imbere ndetse bakanateza imbere Igihugu cyabo muri rusange.

Umushinga w'ubuhinzi bw'icyayi ufite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'abaturage, aho iyo bagihinze neza babona amafaranga ndetse bakanateza imbere igihugu muri rusange kandi bakanakomeza bakagira ubuzima bwiza.

Igihingwa k'ikawa gikomeza kuzamura ubukungu bw'Igihugu binyuze mu misoro ndetse kikanafasha abaturage kwikura mu bukene.

Ubuhinzi bw'ikawu bugira inyungu nyinshi ku gihugu, cyane ko abayihinga ndetse n'abayisarura bose bagira ubuzima bwiza buturutse mu icyo gihingwa.

Mu rwego rwo kubungabunga amatungo ndetse no gutuma yongera umusaruro birakwiye ko habaho amatungo ndetse n'izindi nyongeramusaruro ziyafasha kuzamura umukamo igihe ari inka cyangwa se zaba ari inkoko zikongererwa ibyo kurya bihagije kugira ngo zitange umusaruro.

Igihe umuhinzi cyangwa se umworozi arimo yorora amatungo. Aba akeneye imiti ndetse n'inyongeramusaruro zifasha ubworozi bwe, gutera imbere cyane cyane akabona umusaruro urambye.

Ibishanga bigiye bitandukanye bikunze gutanga umusaruro aho abahinzi bahinga igihingwa cy'umuceri bakunze kuwitaho bigatuma babona amafaranga bakibeshaho ndetse bagasagura n'amasoko muri rusange.

Akenshi na kenshi, usanga abantu bajya gutashya cyangwa se gusenya inkwi, bakazikorera ku magare kubera yuko kuzitwara ku mutwe biba bigoye cyane.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage gutema kimwe ugatera bibiri ari byo abaturage bakora umunsi ku munsi kugira ngo barwanye isuri ndetse n'imivu y'amazi ishobora gutuma ubutaka butwarwa.

Aha ni mu rwuri rw'inka, aho umukamyi arimo avuruganya inka ndetse n'umubyeyi akaba ari kumufasha, agerageza kwagaza inka kugira ngo itaza gutera umugeri ikaba yabogora amata.

Ibiti bifite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwa muntu ndetse n'isi yose muri rusange aho birwanya isuri ndetse bikanafata amazi, ikindi bikarinda umwuka duhumeka biwuyungurura, bigatuma turushaho kugira ubuzima bwiza.

Abaturage benshi, bakunze kujya gusenya ibicanwa, mu mashyamba agiye atandukanye, bitewe nuko baba bateganya ko imvura iba ishobora kugwa, bityo bakabura ibyo bacana, igihe batatahije kandi biba bikwiye.

Umuganda ni kimwe mu bikorwa bishishikarizwa abaturage hagamijwe kugira ngo bagire isuku aho batuye ndetse batere n'ibiti kuko bavuga ngo nutema kimwe utere bibiri.

Umuhinzi w'ipapa za kijyambere ndetse n'abantu baturutse ku mushinga baje gusura icyo gikorwa cy'ubuhinzi cyangwa se uwo mwuga w'ubuhinzi akora.

Parike z'inyamaswa akenshi usanga ziri mu bintu bya mbere byinjiza amafaranga menshi, kubera ko igihe abakerarugendo cyangwa se abazungu bavuye i Burayi baza kureba izo nyamaswa, bityo bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera.

Mu rwego rwo kubungabunga imikurire myiza y'abana, Leta igenda ishishikariza abantu kubaka uturima tw'igikoni, bakaduteramo imboga zifasha abana gukura neza ndetse bagatekereza neza.

Mu buhinzi bw'umuceri ni ngombwa ko abahinzi bafata umwanya uhagije bagatunganya aho bahinga ndetse n'imbuto bagiye gutera kugira ngo zizatange umusaruro urambye bityo bakuremo ibyo kurya ndetse basagurire n'amasoko.

Ubuhinzi bufatwa nk'inkingi ya mwamba mu rwanda ndetse n'amahanga muri rusange; aho ubuhinzi bw'igihingwa cy'imyumbati bugira umusaruro akenshi ukomokaho n'ubugari.

Ubuhinzi bw'ibihingwa bigiye bitandukanye burimo n'ibishyimbo bufite akamaro cyane, ku buzima bw'abaturage ndetse n'abatuye isi muri rusange. Aho usanga, bigurishwa ku masoko bikaribwa, cyane ko ari bimwe mu bifite intungamubiri, mu buzima bw'abaturage.

Aha ni mu buhinzi bw'imbuto, aho igihingwa kitwa umwembe giteye mu karima karimo kagaragara hano.

Aha ni mu murima, aho abahinzi bahingiye urutoki bakagenda bakonyora insina, kugira ngo izindi zibone uko ziba zisanzuye.

Mu bishanga bigiye bitandukanye, abahinzi bakunze kwibumbira mu makoperative, aho bahinga ibihingwa birimo umuceri, ibigori ibyo bikabafasha kwikura mu bukene ndetse no guteza imbere igihugu cyabo muri rusange.

Abahinzi bagiye batandukanye, akenshi ukunze gusanga ari bo bafata iya mbere mu guhinga imboga n'imbuto, ibi ngibi bituma abaturage bagira ubuzima bwiza kandi bakabasha kubaho bisanzuye igihe bafite ibibongerera intungamubiri.

Imyumbati akenshi ukunze gusanga ari igihingwa gihingwa n'abaturage bagiye batandukanye hagamijwe kugira ngo bazamure ubukungu ndetse batume n'isi muri rusange ibona ibiyitunga, ibyo bikabaho igihe abahinzi bafite imbuto zimeze neza kandi zishoboye.

Ibigori ni igihingwa kibarirwa mu binyampeke, akenshi gikunze gutanga umusaruro, ugirira baturage akamaro, cyane ko kibinjiriza amafaranga, ndetse bakanakirya , yewe bakanagisheshamo akawunga igihe cyumye, kikanahungurwa.

Uyu ni umurima uhinzemo ibigori, harimo bimwe bigihagaze ibindi byasaruwe.

Ubuhinzi bw'ibigori bukunze kugira umusaruro uri hejuru cyane, aho abantu bifatanya bagahinga ibishanga, bagabwa imbuto zabugenewe kandi zitunganyije neza bityo bigatuma bihaza ubwabo ndetse bagasagurira n'amasoko muri rusange.

Urubuto rwa avoka ntirukwiye kubura ku ifunguro rya buri muturage igihe agiye gufata ifunguro rya saa sita cyangwa se rya nijoro, bikagaragazwa n'inzobere mu by'ubuzima aho zigaragaza ko avoka yongera intungamubiri bityo igafasha ubuzima bwiza gukomeza kumera neza.

Igihingwa k'ibigori gikunze gutanga umusaruro muke, igihe abagihinga batahawe amahugurwa ndetse ngo bahabwe n'imbuto nzima. Ibyo bigatuma umusaruro uba mukeya ndetse ukagabanuka. Bityo bigatera ubukene ku baturage ndetse n'abantu bose muri rusange.

Hano ni mu isoko ry'imboga ndetse n'imbuto, harimo ibigori, inyanya, imineke, karoti, urusenda ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bw'ingemwe z'ibiti ndetse n'imbuto biterwa mu mashyamba cyangwa ku mihanda ndetse no mu yindi mirima, bugenda bugira akamaro ndetse n'inyungu nyinshi ku batuye ahantu runaka.

Akenshi amashyamba y'inzitane akunze kuzaho ibihu hejuru ndetse akagira n'ubukonje bwinshi ku buryo n'iyo imvura igerageje kugwa, kugira ngo izagere ku butaka biba ari ikibazo.

Amashyamba afite akamaro kanini cyane, cyane cyane ko ayungurura umwuka duhumeka, ikindi ibishanga bituma tubona ibyo kurya igihe twahinze.

Aya ni amashyamba manini, aba arimo ibiti birebire kandi binini, bigiye bitandukanye, cyane ko biba birimo nabyo ubwoko bugiye butandukanye.

Pariki z'inyamaswa ni zimwe mu nkingi za mwamba zituma igihugu kinjiza amafaranga avuye mu bukerarugendo. Bigatuma habaho ibikorwaremezo birimo kubaka amashuri, guhemba abakozi n'ibindi binyuze mu bantu baza kureba izo nyamaswa.

Aba ni abaturage barimo bahinga mu murima, kugira ngo bahatere imyaka.

Amashyamba muri rusange agomba kubungabungwa kuko afite akamari kanini cyan eku buzima bw'umunut ndetse n'isi yose muri rusange, aho ayungurura umwuka, akavamo n'ibicanwa ndetse akaba n'ubuturo bw'inyamaswa zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bw'indabyo usanga bufite akamaro gatandukanye cyane. Iyo abantu bashaka guha impano cyangwa igihe hitabye abantu, izi ndabyo zirakoreshwa cyane, bigatuma zinjiza n'amafaranga atari make igihe baje kuzishaka.

Uko iminsi igenda yisunika ni ko abantu bavumbura iterambere ryo guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, mu nyubako ziteye imbere zabugenewe ndetse ibyo bihingwa bikerera igihe gitoya.

Umusaruro w'igihingwa k'inyanya ufite akamaro gakomeye cyane ku buzima bw'ubuhinzi ndetse n'abatuye isi muri rusange, cyane ko yihaza ndetse agasagurira n'amasoko igihe bibaye ngombwa, ibyo akabifashwamo no gukora umwuga we kandi awukunze.

Ubuhinzi bw'indabyo bufite umumaro ukomeye cyane. Aho akenshi zifashishwa mu gihe kibyago cyangwa se igihe abakundana bashaka guhana impano.

Ubuhinzi bw'imboga bugenda bufata indi ntera ihambaye, kuko amashu agira ingaruka nziza ku mikurire ndetse no ku buzima bwiza bw'abatuye isi.

Ubuhinzi bw'imyaka bwa kijyambere, akenshi bukunze gutanga umusaruro urambye, cyane ko hakoreshwamo uburyo bugiye butandukanye, burimo nko kuvomerera ibihingwa ndetse no kubisarurira mu gihe mu buryo bugezweho.

Uyu ni umuhizi ufite rozwari mu ntoki, urimo avomerera imbuto ziwe kugira ngo zikure neza.

Uko iterambere rigenda riza umunsi ku munsi, niko rigira umumaro mu bice bigiye bitandukanye ku mibereho y'abaturage ya buri munsi. Usanga mu buhinzi babahereza imashini zagenewe kuhira imyaka bityo umusaruro ukiyongera nubwo haba ari mu gihe cy'izuba.

Mu buryo bwo gukomeza kongera umusaruro no kuzamura ubukungu bw'Igihugu muri rusange. Abaturage b'abahinzi bakwiye guhabwa ibikoresho byabugenewe, bibafasha kuhira imyaka yabo kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza ndetse baniteza imbere.

Abahinzi akenshi usanga bahabwa imashini zibafasha kuhira imyaka yabo, igihe bakora umwuga wabo wa buri munsi utuma babaho, ibi ngibi bibafasha kuzamura umusaruro ndetse no kudatuma ibyo bahinga bibura amazi ngo bibe byakuma.

Izi ni imashini zagenewe kuvomerera imyaka mu gishanga ariko za kijyambere.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukunze kugira umusaruro uri hejuru cyane. Bitewe n'uko abaturage babukora babanza guhabwa amahugurwa n'impuguke zabihuguriwe bityo rero umusaruro ukiyongera ndetse bakihaza, bagasagurira n'amasoko.

Uko bwije n'uko bukeye isi igenda itera imbere ndetse n'ubuhinzi bugatera imbere muri rusange, aho ababishinzwe bazana uburyo bwo kuvomererera imyaka, bityo ikagira umusaruro utari mukeya.

Mu misozi igiye itandukanye igize igihugu cy'u Rwanda abaturage bakunze kuhakorera ubworozi bugiye butandukanye burimo nk'amatungo y'inka, ihene, intama ndetse n'ibindi. Ibyo bigafasha abaturage kwiteza imbere ndetse no kugira imibereho myiza binyuze mu mu kamo w'amata babona.

Akenshi usanga ibishanga bifatwa nk'inkingi ya mwamba ishingiweho n'ubuzima bwa benshi, aho tubikoresha duhinga umuceri, ibijumba ndetse n'ibindi, bityo rero bigatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza kandi buciye mu mucyo.

U Rwanda rufite ibintu byinshi bitangaje harimo ibiyaga ndetse n'imisozi nk'uko tubizi ibarirwa mu gihumbi. Akenshi ukunze gusanga iyo uri ahikegeye iba igaragara neza ku buryo bu buryoheye amaso.

Hano ni ahantu hatuye abantu ndetse n'imisozi ihagize.

Aha ni mu kiraro cy'inkoko za kijyambere, ndetse n'umukozi ushinzwe kuzitaho mu bikorwa bya buri munsi no kuzikorera amasuku.

Aha ni mu kiraro k'inka, harimo inka imwe.

Iki ni icyumba cyahariwe gushyirwamo imashini zitunganya ibyo kurya by'amatungo kugira ngo akomeze kongera umusaruro, harimo umukamo, amagi ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo bwiganjemo ihene, bukunze gufasha abaturage, kwivana mu bukene cyane ko, bazigurisha cyangwa se bakaba banazibyaza, bityo bakabona amafaranga mu buryo buziguye.

Ahantu hagiye hatandukanye, akenshi nko mu misozi igiye irambuye, usanga abantu bahakorera ubworozi bujyanye n'amatungo, ibyo bigatuma bibeshaho muri rusange.

Iki ni ni ikiraro cya kijyambere, cyororerwamo inka nazo za kijyambere, zitanga umukamo uhagije cyangwa se utubutse.

Abaturage benshi batuye mu byaro usanga bashyira imbere ubworozi bw'amatungo y'ihene, kubera ko bubaha umusaruro uri hejuru cyane bityo bigatuma babasha kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi, harimo nko kujyana abana babo ku ishuri ndetse kuko ubu bworozi butanga n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane ihene bufite akamaro gakomeye cyane ku baturage ndetse n'abandi muri rusange, aho usanga babona amafaranga igihe bazigurishije cyangwa se zigakenerwa ku masoko kugira ngo haboneke inyama.

Iyi ni imashini ikoreshwa mu buhinzi bwa kijyambere.

Ubworozi bw'amatungo y'inka bukunze gutanga umusaruro, kubera yuko buba bwakozwe mu buryo bwa kijyambere, ibyo bigatuma abaturage babona umusaruro biteze.

Izi ni inka z'Inyambo ziri mu rupango aho ziri kumwe n'abaganga ndetse n'abakozi bazo bashinzwe kuzitaho.

Ubworozi bw'itungo ry'ingurube bukunze gutanga umusaruro uro hejuru cyane, cyane ko iyo zitaweho neza zibyara ndetse zikororoka bityo ubukungu ndatse n'amafaranga zikororoka.

Ubworozi bw'amatungo, bufite umumaro uhambaye cyane kuko inka zikunze gutanga umukamo, zigatanga n'ifumbire bityo bigatuma abahinzi, babona umusaruro uhagije ndetse ibyo basaruye bagasagurira n'amasoko muri rusange.

Imisozi igiye itandukanye akenshi usanga iriho ubushyo bw'inka, aho zirisha ndetse zikahafata nko mu rwuri bityo zikarushaho gutanga umukamo uri hejuru kandi abazitunze na bo bakaba bagira umusaruro bazikuraho kandi uri hejuru.

Inka ni itungo rishobora gutanga umukamo igihe ryitaweho ndetse rigahabwa ubuvuzi hagamijwe kugira ngo umusaruro waryo wiyongere.

Ubworozi bw'amatungo, akenshi usanga bufite umumaro ugiye utandukanye, aho butanga inyama ndetse n'amafaranga ku bantu babukora. Ibyo bigatuma biteza imbere, muri make ukabaho n'imiryango yabo.

Ubworozi bw'amatungo buri mu bintu bituma abatari bake batera imbere kandi mu gihe gito. Igihe cyose umworozi afite amatungo nk'inka, ihene, intama ndetse n'ibindi aba yibikiye amafaranga atari make.

Umusaruro w'ibigori akenshi ukunze gukura abantu mu bukene igihe babyitayeho neza bakawanikira ku gihe ndetse bakanawuhungugurira ku gihe kugira ngo bibafashe mu mibereho yabo myiza ya buri munsi.

Ubuhinzi bugiye butandukanye bukunze gutanga umusaruro ku mpande zombi, haba ku baturage ndetse n'igihugu muri rusange. Aho umuceri ufatwa nk'igihingwa giteye ubwuzu kandi gikunze gutanga umusaruro ku mpande zombi.

Uyu ni umubyeyi uri mu rugo iwe, arimo kugosora ndetse ananika ibishyimbo.

Inganda zikora ibintu bigiye bitandukanye, usanga zifitiye akamaro ndetse n'Igihugu muri rusange kuko zitanga akazi, bityo abaturage bakikura mu bukene, bakajyana abana ku mashuri ndetse bakabasha gukemura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye biba bibugarije mu mibereho yabo ya buri munsi.

Uyu ni umuganga ushinzwe ubuvuzi bw'amatungo y'inka z'inyambo.

Ubworozi bw'amatungo, arimo inka, akenshi bukunze gutanga umusaruro, igihe bukurikiranywe n'abaganga babugenewe, ibyo rero bigafasha abaturage, kubonera amata ku gihe ndetse n'ifumbire.

Inka ni itungo ryororwa ndetse rigatanga umusaruro, wiganjemo umukamo hamwe n'ifumbire, igihe ryitaweho neza, rishobora gukura umuntu mu bukene, rikagira aho rimugeza atari yiteze.

Mu rwego rwo kwita ku matungo ndetse no kuyafata neza no kugira ngo atange umusaruro urambye abaganga babugenewe bakunze kuyitaho bakayakurikirana umunsi ku munsi.

Inyamaswa zigira ubumara ziganjemo nk'imbwa n'izindi, zikunze kugira amavuriro yazo nazo, aho zitabwaho n'abaganga babugenewe ndetse babihuguriwe, bityo bikazifasha gukomeza kugira ubuzima bwi.

Akenshi mu mapariki agiye atandukanye y'inyamaswa, usanga ingwe zifite ubushobozi ndetse n'ubuhanga, aho zishobora kurira hejuru zikazamuka mu biti.

Ingwe ibarirwa mu muryango w'amapusi manini, ikaba itinyitse, bitewe n'uburyo igaragaramo, cyane ko n'izindi nyamanswa ziyitinya.

Amapariki agiye atandukanye akunze kuba arimo inyamaswa zisamaje kandi ziteye ubwuzu ku mpande zose, aho habonekamo impara, imparage n'utundi dusimba akenshi dukurura abakerarugendo bityo bigatuma byinjiza amafaranga atari make ku banyagihugu.

Pariki z'inyamaswa kenshi zikunze kuba zizengurutswe n'amashyamba ndetse hakaba harimo n'amazi inyamaswa zifashisha kugira ngo zitagira icyaka, muri izo nyamaswa ziba ziri muri pariki twavugamo; nk'inzovu, ibitera, inkende ndetse n'izindi.

Imana yaremye amoko menshi y'ibisiga ndetse n'ibindi biremwa biguruka, birimo nk'inyon, inuma, imisambi ndetse n'ibindi.

Izi ni ihene z'ishyamba bakunze kwita ishya ziri muri pariki aho zibarizwa.

Mu bisanzwe bavuga ko akaruta akandi kakamira, bityo n'inyamaswa zimwe na zimwe zo mumapariki zikunze kuryana, aho imwe irusha indi ingufu iyikubita cyangwa se ikaba yayirwanya.